Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, akaba ari inyubako yo ku mashuri, aho abanyeshuri bayifashisha biga amasomo yabo atandukanye kugira ngo babashe gutsinda.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, haba hari amoko agiye atandukanye y'utunyamanswa bakunze kwifashisha, bari kwiga kugira ngo babashe kunezererwa, hanyuma bige neza, batsinde.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, bakunze kugisha bakoresheje ibitabo birimo udukuru turimo utunyamanswa tuba dushushanyije, aho haba hari imigani iba igiye irimo imbeba.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bwa kijyambere aho ifite ibikuta biteye irange ry'umweru bishushanyijeho udusimba tuguruka, dutoya nk'isazi aho batwifashisha bari kwigisha abana biga mu mashuri y'inshuke.

Umwana mutoya uri guseka, akaba ahagaze iruhande rwe, hari undi uri gukaraba kuri kandagirukarabe, bikaba byereka abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke ko bagomba kugira isuku.

Amoko agiye atandukanye y'ibishushanyo aho ibi bishushanyo byifashishwa n'abarimu bigisha abanyeshuri b'incuke kugira ngo babigishe amoko y'ibikoresho ndetse n'amabara atandukanye.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere ye aho zifite ibikuta byubakishije amatafari ahiye ndetse zisakaje amabati y'ubururu zifite urugo rwubakishije ibyuma bisa ubururu.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'imfubyi bambaye impuzankano ziri mu mabara y'umuhondo, bakaba bicaye ku mikeka bakaba bicaranye n'abarimu babo bambaye imyambaro y'icyatsi, bari kugenda babakomera mu mashyi.

Umuntu wambaye agapira k'umutuku, afite n'imisatsi yo mu bwoko bwa direde, akaba ari ahantu mu nyubako bigishiririzamo abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, hari ibishushanyo byinshi byo mu mabara atandukanye.

Abana benshi cyane bagiye batandukanye, biga mu mashuri y'inshuke, bakaba bicaye hasi ku musambi buri wese afite isahani y'ibiryo ari kurya, hari n'abarimu babo baabigisha mu rwego rwo kunoza imirire myiza.

Amoko agiye atandukanye y'ibishushanyo bikunze kuba biri ahantu ku ishuri mu mashuri y'inshuke, aho ibyo bishushanyo biba bifite amaso n'amazuru, kugira ngo abana baze kwishima.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ifite ibikuta biteye irangi rijya gusa umutuku, n'inzugi ziteye irangi ry'icyatsi, ibirahuri byijimye, zikaba zigirwamo n'abanyeshuri b'inshuke.

Hari ibishushanyo bikunze kuba biri mu bitabo, byigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, aho biba bishushanyijeho abandi banyeshuri, bari kugenda bakora imyitozo ngororamubiri.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ari inyubako y'ikigo cy'amashuri ikaba yubakishije amatafari ahiye ifite ubusitani uyigiriye bwiza cyane ndetse n'izindi nyubako ziri hakurya yayo za kijyambere.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere aho iyi nyubako irimo amoko agiye atandukanye y'ibitabo abanyeshuri bifashisha bari kwiga kugira ngo babashe kumenya ubwenge kandi bazatsinde.

Utuntu tuzwi nk'udusanduku dukunze kwifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye aho tuba turimo ibikoresho bigiye bitandukanye bifashisha bari kwiga isomo ry'imibare, haba harimo amarati, amakaramu y'ibiti ndetse n'uucaruziga.

Amoko agiye atandukanye y'ibikoresho, abanyeshuri biga mu mashuri abanza bifashisha bari kwiga kugira ngo babashe kumenya amazina yabyo ndetse n'icyo bikora.

Umurima urimo pipinyeri ndetse ukaba utwikirijwe n'utuntu tw'umukara dukunda gutwikira pipinyeri, ubu uyu murima rero akaba ari ingenzi kuko iyo uwufite bituma ubasha gutera imbere.

Agacaruziga k'utwuma tubiri kakaba kari ahantu, kari mu mabara y'umweru ndetse n'umukara. Aka ni ingenzi cyane kuko kifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza bari kwiga isomo ry'imibare.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye hari ibikoresho bakunze kwifashisha bari kwiga amasomo yabo bizwi nk'udusanduku tuba turimo amarati, uducaruziga ,amakaramu y'ibiti ndetse n'ibindi.

Igicumbi kishushanyije mu mabara y'ibendera ry'u Rwanda kiri ahantu ku kigo cy'amashuri ndetse kikaba kirimo agaseke kari mu mabara y'ibendera ry'u Rwanda, cyanditseho amagambo ngo akarere ka Nyagatare.

Abantu biga mu kigo cy'amashuri abanza, haba hariyo ibishushanyo bijye bitandukanye, bifashisha bari kwigisha abana kugira ngo banezerwe, aho bavu umuntu bakamuha umutwe nk'uw'igisiga, bakamukenyeza n'agatambaro.

Udusanduku tuba turimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, aho harimo amarate, uducaruziaga ndetse n'amakaramu y'ibiti.

Agasanduku kabugenewe, kifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye. Kaba karimo ibikoresho bijya bitandukanye, bifashisha bari kwiga isomo ry'imibare. Hakaba harimo agacaruziga, ikaramu y'igiti ndetse n'amarati.

Umwarimu uri mu ishuri, aho yambaye ishati y'umweru. Afite ikaramu mu ntoki, ari kugenda akosora abanyeshuri be, kugira ngo arebe niba baratsinze neza hanyuma abahe amanota yabo.

Inyubako nziza cyane, yubatswe mu buryo bwa kijyambere, aho iyo nyubako ifite ibikuta biteye amarangi y'umweru, ndetse ikaba yanditseho amagambo ari mu mabara y'umukara, bigaragaza ko bari kwerekana ikigo cy'amashuri.

Agasanduku kaba karimo amoko agiye atandukanye y'ibikoresho, byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye ndetse n'abanza iyo bari kwiga isomo ry'imibare.

Inyubako nziza zubatswe mu buryo bwa kijyambere, aho izo nyubako zisakaje amabati y'ubururu, izo nyubako zikaba ari amagorofa. Hari imbuga irimo kaburimbo ndetse ikaba irimo iminyenga iri mu mabara atandukanye.

Abanyeshuri biga imibare mu mashuri abanza, hari ibishushanyo bigiye bitandukanye by'uruziga, bifashisha bari kwiga, aho bituma bamenya ubwenge ndetse no kubara neza cyane.

Agakapu gashushanyijeho igipope cy'agapusi aho ari agakapu keza cyane gakunze kwifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza kuko bakunda kureba utu tuyamaswa.

Agasanduku kaba karimo ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza. Iyo bari kwiga isomo ry'imibare. Kakaba karimo amarati, ikaramu y'igiti, ndetse n'agacaruziga.

Ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye, byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, igihe baba bari kwiga isomo ryabo ry'imibare. muri ibyo bikoresho harimo amarati ,uducaruziga ndetse n'ikaramu y'igiti.

Ibitabo by'amasomo agiye atandukanye abanyeshuri bifashisha bari kwiga kugira babashe gutsinda amasomo yabo uko bikwiriye, aya masomo rero akunze kumenyekana cyane.

Amoko agiye atandukanye y'inyamaswa bakunze kwifashisha bari kwigisha abana biga mu mashuri abanza. Harimo ihene, akana k'intama ndetse n'insina. Hakaba hari kandi n'igi.

Abanyeshuri benshi cyane bagiye batandukanye, bateraniye hamwe mu ishuri, bakaba bambaye imyambaro iri mu mabarage atandukanye y'umweru ndetse bakaba bari mu gikorwa cyo gusenga.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bakaba bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga mu ntoki aho bari kugenda bareba mo, bafite telefoni ndetse n'urupapuro bari gusomaho.

Ikigo cy'amashuri giteyemo amokogi atandukanye y'indabyo, ndetse ari n'ubusitani bwiza cyane buteyemo icyuma kimanitseho ibendera ry'u Rwanda riri mu mabara y'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere aho iyi nyubako yubakishijwe amatafari ahiye, ikaba ari ingenzi cyane kubera ko itangirwamo serivise zigiye zitandukanye.

Abanyeshuri benshi cyane bicaye abandi bahagaze, bakaba bari kwifotoza bambaye impuzankano, ziri mu mabara agiye atandukanye y'ubururu ndetse na kaki bakaba bagaragaza ko bameze neza.

Ni byiza ko buri kigo cy'amashuri kigira inyubako yabugenewe iba irimo isomero aho abanyeshuri baza gutira ibitabo bagasoma maze bakunguka ubumenyi.

Abanyeshuri benshi cyane bagiye batandukanye, bambaye imyambaro iri mu mabara y'umweru ndetse na kaki bakaba bakurikiye umuyobozi wabo ufite indangururamajwi ar kubagezaho ijambo.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho mo imbere hateraniyemo abagabo ndetse n'abagore bambaye amajire, bakaba bari mu gikorwa cyo guteza imbere uburezi.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere ikaba ari inyubako y'amashuri, ikigishijwe amoko atandukanye y'inzugi aho ziba ari nziza cyane kandi zigatuma abanyeshuri babasha gukinga neza.

Abanyeshuri benshi cyane biga ku mashuri yisumbuye aho bicaye ahantu hanze mu busitani, bakaba bafite amakayi mu ntoki bari kugenda bumva inama bari kugezwaho n'umuyobozi wabo.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe bigaragaza ko ari abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bambaye impuzankano ziri mu mabara y'umukara ndetse n'icyatsi, bakaba bamanitse amaboko bose hamwe.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho ari inyubako y'ishuri. Harimo abanyeshuri bagiye batandukanye, aho harimo abakobwa ndetse n'abahungu. Umukobwa akaba ari kwandika mu ikayi ye.

Ikayi y'umweru irambitse ku ntebe, iyo ntebe rero akaba ari intebe nziza cyane igezweho, ikunze kwifashishwa n'abanyeshuri, biga muri kaminuza y'u Rwanda, ishami rya Nyagatare.

Umugabo wicaye mu nzu ya kaminuza akaba afite mudasobwa imbere ye, bigaragara ko ari umunyeshuri uri mu ishuri akaba ari kwiga yifashishije mudasobwa kugira ngo yunguke ubumenyi.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho ifite inzuge zisa n'ivu, ibirahure bitabonerana ndetse ikaba ari inyubako yo muri Kaminuza y'u Rwanda.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho ifite ibikuta biteye amarangi agiye atandukanye, ikaba ari inyubako nziza yo muri Kaminuza nkuru y'u Rwanda.

Inubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere aho ifite inzugi zisa ubururu n'icyatsi, zishushanyijeho igisiga kirimo kiragenda kiguruka.

Umuhanda mwiza cyane ushashemo amapave ukaba ukikijwe n'ubusitani bwiza cyane, aho buteyemo amoko agiye atandukanye y'indabyo ndetse n'umucaca bikaba bigaragaza ko ari byiza cyane.

Mu busitani bwiza cyane bukikijwe n'indabyo nziza ku buryo umuntu ahageze wese abasha kumererwa neza. Ubu busitani rero ni bwiza ku buryo nyirabwo bumuteza imbere.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho zisakaje amabati y'umutuku zifite ibikuta biteye amarange y'umweru, hakaba hari ubusitani bwiza ndetse n'akayira k'amapave.

Abanyeshuri baba barize ibijyanye n'imyuga n'ubumenyingiro, aba ari abahanga cyane kubera ko baba bazi gushushanya utuntu twinshi tujyiye dutandukanye bakunda kumanika ku bikuta.

Ibikoresho by'amoko agiye atandukanye, bikunze kuba bibumbwe mu ibumba, byarakozwe n'abanyeshuri bize muri kaminuza ndetse bize no mu mashuri y'imyuga ndetse n'ubumenyigiro.

Abanyeshuri baba barize ibijyanye n'imyuga n'ubumenyi ngiro, aba ari abahanga cyane, aho baba bazi kubumba ibintu byinshi bigiye bitandukanye, bifashishije ibumba wabireba ukabona ari byiza cyane.

Ibitenge bigiye bitandukanye, bikunzwe kuba byarashushanyijwe n'abanyeshuri bize imyuga ndetse n'ubumenyingiro, aho baba bazi ndetse no kubitunganya neza, bikamera neza, bakabidodamo imyenda.

Igishushanyo cy'umuntu bigaragara ko yambaye amadarubindi ndetse akaba afite n'utwanwa twiza cyane, bigaragara ko ari umuntu wiga mu mashuri y'imyuga n'ubumenyingiro wamushushanyije.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere aho iyi nyubako irimo amoko atandukanye y'intebe ziri mu mabara y'ubururu, zikaba zifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri ya kaminuza.